Mu ishuri ry'ubugeni, hano hari umwana uri gushushanya ndetse umwarimu we amuhagaze iruhande, bisa naho arimo arareba ishusho yashushanyije, hirya ye hari abandi bana nabo bari gukora imirimo y'amaboko, basa naho nabo bari gushushanya, ibintu bigiye bitandukanye.

Mu ishuri ririmo abanyeshuri ariko urabona ko hajagaraye, buri wese ari mu bye haruri gusa nuri gukora mu musatsi, ariko hari n'abandi bicaye abandi barahagaze, bamwe bicaye hanze babona ko mu ishuri ariko ririmo akavuyo.

Mu ishuri ry'ubumenyingiro harimo abanyeshuri barimo barakora ibikorwa by'amaboko cyangwa se gusudira, urabona ko bari nko mu kizamini hari abayobozi babahagarariye barimo barareba ko bari kugenda babikora.